UbuhInzi bw'icyayi mu Rwanda ni kimwe mu gice kimaze gutera imbere kandi kizana amafaranga. Iki ni icyayi gihinze ahantu hanini ku mpande zaho hagiye hari ibiti.

Ubuhinzi bw'icyayi bumaze gutera imbere mu Rwanda, hano hari icyayi cyinshi cyane harimo n'abantu bahetse ibintu barimo baragisaruriramo, kugira ngo kijye gutunganywa.

Ubucuruzi bw'imboga n'imbuto, aha harimo inkeri, imineke, imyembe, ibitunguru, inyanya, kokumbure ndetse n'urusenda.

Umugabo uhagaze mu bihingwa by'inyanya, yambaye ishati ya move ndetse harimo n'agacupa bahagitse mu giti gacuritse, gafite umupfundikizo.

Ubuhinzi mu Rwanda bumaze gutera imbere, nkuko tubibona uyu mugabo, arimo arakoresha uburyo bwo kuhira insina ze kugira ngo zikure neza, hirya imbere ye hari insina zakuze cyane.